Muganga wicaye aho bavurira ndetse aho yakira abarwayi, baje bamugana kugira ngo bamubwire uko biyumva maze bamuhe imiti ndetse yandike n'ibyo barwaye.

Ibyatsi byimejeje bishobora kwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zo mu nda, aho umuntu ukoresha imiti ya kinyarwanda cyane uwo umuti aba awuzi.

Ibyatsi byimejeje aho bikoreshwa mu mbuvuzi gakondo igihe umuntu arwaye ibintu ubona bidasobanutse ariko uzi ko byamufasha.

Ibyatsi bya kimeza byifashishwa, mu buvuzi gakondo butandukanye, aho iyo umuntu arwaye ibicurane, munda, arabyifashisha maze akabikoramo umuti umufasha kumererwa neza.